Guha imyaka imiti ni byiza ndabikunda cyane, kuko bifasha nk'imyaka kwera neza, kubera ko udusiba tuba twayiriye iyo uteye uwo muti turapfa, ku buryo tutazagaruka, kandi ndabikunda cyane kuko byongera umusaruro , ugakomeza gutera iterambere ry'ubuhinzi ibiribwa bikatugeraho neza kandi nta kibazo kibayeho.

Ubuvuzi bugezweho ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi bukadufasha kumenya ibigiye bitwerekeyeho, n'ukuntu twagenda twirinda indwara nyinshi zitandukanye, ari yo mpamvu tugomba kujya twubaha abaganga, n'abantu benshi bakora ku bitaro kuko batugirira akamaro kenshi kagiye gakomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza cyane ubuvuzi kuba bwongereyemo imbaraga, ibyo ngibyo ni byiza byadufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'amashu ni bwiza ndabukunda cyane. kubera ko buradufasha cyane. Kubera ko tubona ibiribwa byo kurya, cyane cyane nk'imboga twifashisha turi kurya nk'imiceri, kawunga, ibijumba n'ibindi byinshi. Kandi tukabona n'ubwatsi bw'amatungo, bidufasha kandi kuyorora neza.

Ubworozi bwo mu mazi ni bwiza ndabukunda cyane kuko ari ubworozi budasanzwe kandi bukenera ubuhanga budasanzwe, bisaba kuba ufite ibikoresho kandi witeguye ufite amatungo menshi kandi akeneye kuzajya mu mazi nk'amafi ,amasonzi, amasambaza, amwe namwe bigomba kuba yaracishije mu nganda kugira ngo abe avangavanze ,n'ayandi agiye asanzwe.

Ibiribwa bikomoka mu mazi ndabikunda cyane, kubera ko bifasha kurinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye abana bahura nazo, n'abantu bakuru cyane cyane amafi. Amafi ni meza cyane ku buzima bwacu, tugomba kujya tuyafata kugira ngo dukomeze twirinde indwara, kandi tugire ubuzima bwiza.

Ifi ni ikiriba kiza cyane, ndagikunda cyane, kubera ko kigira intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri wacu, kubera ko iyo ukiriye giteguye neza hariho n'ibindi birungo byinshi cyane, ni byiza cyane kukireba kubera ko gitera peti, kandi kigira nintungamubiri nyinshi mu mubiri, ni byiza kukirya.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza ndabukunda cyane buradufasha cyane kuko buduha ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye nk'amafi, amasamba, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bituruka mu mazi tubibonera igihe, kandi tukabibona ku giciro giciriritse.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane ndabikunda cyane kubona ukuntu amafi aba atembera mu mazi kandi adufasha mu iterambere ry'igihugu. Aho amafi amwe bajya kuyagurisha hanze y'igihugu kandi bidufasha kubona amafunguro ateguye neza ukubera ko ifi iraryoha.

Ubworozi bwo mu mazi ni bwiza ndabukunda cyane, bitewe n'ukuntu bugira akamaro, cyane cyane ku bantu bakiri batoya, kuko burinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nka bwaki, n'izindi zose z'imirire mibi baba barahuye nazo, kandi amafi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, n'umuntu mukuru agomba kuyarya kuko azagejya amurinda cyane cyane indwara izo arizo zose, kuko ni meza cyane ku buzima bwacu.

Ibiva mu mazi ni byiza ndabikunda cyane, kubera ko birafasha cyane mu bijyanye n'ibiribwa, kuko bivura indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kubura ibyo kurya, nk'amafi, indagara, amasambaza n'ibindi byinshi biva mu mazi, ni byiza cyane kuko baradufasha.

Ubworozi bwo mu mazi ni bwiza cyane kuko bugira akamaro kenshi gatandukanye. Ariko bisaba ubuhanga kuko ntiwapfa kororera mu mazi bitakugoye, ahubwo bisaba kuba ufite ibikoresho kandi ufite n'ubumenyi bwinsh,i bifasha kandi kubona inyama no kubona ibindi byinshi bikomoka ku matungo birinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ubworozi bwa'amafi ni bwiza ndabukunda cyane, kuko bura dufasha mu buzima ubwacu bwa buri munsi, aho butuma tubona ibiribwa byinshi bifite intungamubiri mu mubiri wacu, kandi burinda indwara nyinshi zi zitandukanye, nka bwaki n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, niyo mpamvu tugomba kujya turabwitaho, tukabungabunga tukabwitaho kuko buradufasha cyane.

Ubuhinzi bw'amashu n'ibishyimbo ni ubuhinzi bwiza cyane, kubera ko bugira amafaranga menshi, iyo umaze gusarura ibihingwa byabwo, kandi birafasha cyane ubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko birinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nka bwaki n'izindi nyinshi zijyanye no kubura ibiribwa.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, kubera ko buteza imbere abahinzi bahinga ibigori, kandi hakaba havamo n'amafu nk'ay'igikoma, aya kawunga twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubone n'ibyatsi byo guha amatungo yacu.

Ubuhinzi bwa karoti ni bwiza ndabukunda cyane, kandi bwateye imbere, cyane cyane mu Rwanda. kubera ko basigaye barahinga amahegitari n'amahegitari ya karoti. Ariyo mpamvu tugomba na twe kujya turazikunda, tukazigura, tukazihaha ku masoko, kugira ngo ubwo buhinzi bwabo bukomeze kwiyongera. Kandi na bo babone amafaranga yo gukomeza guhinga ibindi.

Ubuhinzi bw'amasaka, ni ubuhinzi bwiza cyane, ndabukunda kubera ko budufasha cyane kubera ko aribwo dukuramo amafaranga. Iyo duhinze neza budufasha kubona inyungu, izadufasha mu gihe kizaza, ariyo mpamvu tugomba guhinga neza kugira ngo tugire amafaranga azadufasha mu buzima.

Mu Rwanda habamo abahinzi bagiye batandukanye, hari abahinga imbuto, hari abahinga ibinyampeke, hari n'abahinga imboga, byose bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko iyo umurima ubagariye neza, bizamura iterambere ry'igihugu n'imyaka ikera neza.

Avoka ni urubuto rwiza ndarukunda cyane. Ni urubuto rwiza rugira amababi y'icyatsi, na rwo rugasa n'icyatsi. Ni urubuto tugomba kwitaho kuko ni rwiza kandi rugira intungamubiri nyinshi cyane mu buzima bwacu, kubera ko n'iyo urushyize ku biryo ubona ko apeti yiyongera kandi ikiyongera cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza ndabukunda cyane. kubera ko buradufasha cyane muri iki gihe. kubera ko ari bwo bakuramo ibiribwa byinshi nk'amafu y'igikoma, aya kawunga n'andi menshi dukenera mu buzima bwacu. Biradufasha cyane.

Ubuhinzi bwa karoti ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko budufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ni bwiza cyane kandi budufasha, abantu benshi bakundaga karoti kubera ko iyo bazitetse mu mboga birajyana kandi bikaryoha, ari yo mpamvu tugomba kubwitaho tukabubungabunga, kuko ni bwiza kandi ni byiza cyane kuba muri sosiete yacu budufasha cyane.

Uduhanda duto ndadukunda cyane kubera ko tugira akamaro kenshi gakomeye. Cyane cyane mu makarirtsiye yacu. Kubera ko ariho usanga turi. Tugira akamaro gakomeye cyane kubera ko tudufasha gutuma ibiribwa biza, n'ibinyabiziga bigatambuka, bituzaniye ibikoresho tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko bugira umusaruro mwiza cyane, kandi ibigori bikorwamo ibintuza byinshi bigiye bitandukanye nk'ifu y'igikoma, iya kawunga, kandi biraribwa cyane cyane cyane ku mashuri, n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, kawunga ni ifu nziza ikundwa cyane.

Ubuhinzi bw'imboga ni bwiza ndabukunda cyane kubera ko imboga zigira akamaro gakomeye kubana no mu mikurire y'abantu benshi kuko kuzivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye nko munda, kudiyara n'izindi nyinshi zitandukanye imboga zirabifasha. ariyo mpamvu dukangurira ababyeyi kujya baragaburira abana babo imboga kugira ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ikidodoki ni cyiza ndagikunda cyane, kubera ko kigira akamaro kenshi kagiye gatandukanye. Gifite akamaro ko koza mu nda, kikarwanya indwara zo mu nda, kandi gifite akamaro gakomeye cyane kubera ko ugiteka mu buryo bwinshi butandukanye, kikaba cyakongera inshuro wakiryamo.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza ndabukunda cyane. Ni ubuhinzi bwiza budufitiye akamaro cyane muri iki gihe, abantu benshi bababukeneye kugirango babashe gutera imbere, cyane cyane ibigori ni igihingwa cyiza twifashishaga mu gukora ibikorwa byinshi: nka kawunga, ifu y'igikoma, n'ibindi byinshi twifashashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imyumbati ndabukunda cyane, kubera ko ni ubuhinzi bwiza cyane, budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko buvaho ibiribwa byinshi dukoresha, kandi bifasha n'abatishoboye, kuko birahendutse cyane ku isoko, bigafasha n'abantu bose, kubona ubushobozi bwo kubihaha kandi byoroheje.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza ndabukunda cyane, kubera ko buradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ari ho hava amafu dukoresha mu ngo zacu, nk'aya kawunga, ay'igikoma n'andi menshi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibigori biradufasha cyane kubera ko hari n'ibyo turya byokeje, bidufasha kandi no gukomeza umubiri wacu, bikarinda n'indwara ku bana bakiri batoya.

Ubuhinzi bw'ingano ni bwiza cyane. Buradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ingano zivamo ibiribwa byinshi, harimo nk'amandazi, imigati, imbada, capati n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi biva mu mafani, bikoreshwa ingano.

Ubuhinzi bw'ibijumba ni bwiza ndabukunda cyane, ibijumba bigira amoko menshi atandukanye, hari iby'umutuku, iby'umuhondo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibijumba ni byiza cyane kuko birahendutse ku isoko, bituma abantu benshi baticwa n'inzara mu makaritsiye y'iwabo.

Voka ni urubuto rwiza cyane urya kenshi kugira ngo wongere apeti, kandi bikongera uburyohe bw'ibiryo cyane, cyane cyane kurya ibiryo nk'imvange iradufasha cyane kuberako voka iba isa n'umuhondo mo imbere, kandi ikagira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Ubuhinzi bw'ishyimbo ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ikiribwa gikunzwe cyane, abantu benshi barakirya, kandi kigira intungamubiri nyinshi mu mubiri, kikavura n'indwara nyinshi zigenda zitandukanye, ariyo mpamvu tugomba kujya tugihinga, kubera ko kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, ndabukundaga . Umuhinzi wahinze neza akabagarira ibigori bye neza n'indi myaka ,bimwongerera iterambere rye ku giti cye , kandi agasagurira n' amasoko ku myaka yasaruye bigateza imbere igihugu.

Ubuhinnzi bw'ibirayi ni bwiza ndabukunda cyane, kuko budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, budufasha mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko ni ikiribwa gikundwa kuribwa n'abantu benshi, kandi kikaba gihenze ku isoko, ariyo mpamvu abantu benshi bagomba kwagura ubuhinzi bw'ibirayi, kugira ngo dukomeze tubone ibirayi, kandi bihendutse ku giciro gitoya.

Amasoko ndayakundaga cyane kubera habayo ibiribwa byinshi tuba dukeneye muri iki gihe. Hari nk'imbuto, ibiribwa nk'ibihaza, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi byinshi dukenera mu ruhu ubuzima bwacu, kugira ngo ukomeze kuisunika.

Amatunda ni uruto rwiza cyane ndarukunda ni urubuto rusa n'icyatsi rwamara gukura rweze rugasa n'umutuku, rugira amababi meza kuko rugira amababi y'icyatsi iyo rumaze gukura rugira vitamine zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko buradufasha cyane cyane, ubuhinzi bwi'ibigori n'ibishimbo ni ikintu cyiza cyane, kuko muri iki gihe umuntu udafite ibigori n'ibishimbo, ntabwo wapfa kubaho neza, ariko iyo uhinze ibigori n'ibishimbo, ukabyitaho neza biradufashag cyane, muri sosiyete yacu.

Abahinzi ndabakunda cyane kuko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Badufasha kubona ibiribwa kandi bakadufasha no guhinga ibicuruzwa ducuruza hanze y'igihugu bidufasha kwiteza imbere, igihugu cyacu tukabaho ubuzima bwiza kandi twifuza.

Avoka ni nziza ndayikunda cyane kubera ko irafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ifite akamaro kenshi kagiye gatandukanye, kuko hari iyo bakoramo amavuta yo kwisiga akiza indwara nyinshi z'uruhu zigiye zitandukanye. kandi n'iyo uyishyize ku ifunguro yongera apeti, ifunguro rikaryoha, ukarya wishimye.

Ubucuruzi bwa kawunga ni bwiza cyane ndabukunda, kubera bugirira akamaro gakomeye cyane, kubera ko bugabanya inzara muri rubanda, kandi bugafasha kongera iterambere ry'igihugu n'ibiryo bikiyongera mu gihugu, bikadufasha kurinda inzara mu gihugu cyane.

Ubuhinzi bw'amatunda ni bwiza ndabukunda cyane kubera ko burafasha muri iki gihe, aho buvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka bwaki kandi butuma abana bakura neza, bafite ubuzima bwiza, bakagira ejo hazaza heza, bibarinze indwara zo kugwingira.

Pavuro ni nziza ndazikunda cyane kubera ko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane iyo zitetse mu gasosi zirahumura ukumva ibiryoni ni byiza. Kandi ni byiza cyane kujya turazihinga kuko zigira amoko menshi hari: izumuhondo, ari iz'icyatsi n'iz'umutuku ariyo mpamvu abantu benshi bakomeza kuzikunda.

Ubuhinzi bw'amatunda ni ubuhinzi bugezweho cyane mu Rwanda, amatunda akura atondagira kandi agasa n'icyatsi agasa n'umutuku iyo amaze kwera kandi ni meza cyane ku bana bakiri batoya kubera ko agira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri.

Abahinzi ni abantu beza ndabakunda cyane, kubera ko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, baduhereza ibiribwa byo kurya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kubera ko badufasha no guteza imbere igihugu, kikaba kigeze aho kigeze, kidakenera imkunga z'abandi bantu, kugira ngo kibeho.

Ubuhinzi bw'amapera ni ubuhinzi bwiza ndabukunda cyane, kubera ko burungura kandi bugira akamaro cyane. Amapera avura indwara nyinshi nk'izo mu nda kunnya nabi, byose amapera arabikiza. Kandi ari yo mpamvu abantu benshi tugomba kujya turafata amapera, kugira dukomeze twirinde n'izindi ndwara zose.

Soya ni igihingwa cyiza cyane kigira akamaro kenshi kagiye gatandukanye kubera ko bazishyira mu mafu y'ibikoma, kandi bazibetamo zigakora mw'isosi nk'ubunyobwa, zigira akamaro kenshi kagiye gatandukanye kuko zirahumura cyane tukazifashisha mu bijyanye n'ibiribwa kujyira turye ibiryo byiza kandi bifite intungamubiri.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni ubuhinzi bwiza cyane ndabukunda, kubera ko imyubati ivamo ubwoko bwinsh.i Hari izivamo ubugari, n'izivamo imyumbati turya izi zisanzwe. Kandi ubwoko buvamo ubugari ni bwiza cyane, kuko ubugari buraryoha kandi ni bwiza cyane ku mafunguro dufata.

Igitoki n'ikirwambwa cyiza ndagikunda cyane, kubera ko kivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye havamo imineke, bengamo inzoga n'ibindi byinshi bijyiye bitandukanye, kubera ko baragiteka tukakirya bidasabye kugira ngo bamanze kugitara, ariyo mpamvu tugomba guhinga ibitoki kugira ngo twongere umusaruro wacyo.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni bwiza ndabukunda cyane cyane cyane ukuntu ari umuti mwiza, kandi zikaba n'imbuto zifasha abana gukura neza n'abantu bakuru ni byiza kuko zongera amaraso. Ku barwayi cyane cyane zirayongera ariyo mpamvu abantu benshi bagomba kujya barahinga imbuto, kandi bagakunda kurya imbuto nk'ikinyomoro kuberako zirafasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ku isoku ni ahantu heza ndakunda cyane, kubera ko haradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari amasoko agira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'imiteja, puwavuro, sereri, ibitunguru n'ibindi byinshi twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bwiza cyane ndagukunda, kuko buradufashag muzima bwacu bwa buri munsi. Kandi impamvu mbukunda ni ikiribwa gikundwa kuribwa, kandi gikungahawe intungamubiri nyinshi cyane, ariyo mpamvu abantu benshi bagikunda, kandi bakagikundira ubwo buryohe bwacyo.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza ndabukunda cyane bitewe n'uko ibirayi bikomoka ahantu heza cyane. Kandi n'amasoko y'aho akaba ari ahantu heza henshi kandi cyane mu gihugu. Bikaba bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ni ikiribwa gikurura kuribwa cyane abantu bagombye kurya kubera ko kigira intungamubiri nyinshi cyane kandi kikaba kinaryoha.

Ubuhinzi bw'urutoki ndarukunda cyane. N'ubuhinzi bwiza cyane bwongera iterambere ry'umuhinzi, bidufasha cyane cyane mu bijyanye n'ibiribwa nk'iyo uteka ibirayi ugashiramo agatoki biba ar'ibiryo biryoshye cyane.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ndabukunda cyane. Imbuto zigira intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri cyane cyane ku bana bakeneye gukura, bizamurara imikurire yabo neza, bakazakora bafite ubwenge n'ubushobozi bwo kuzakura bashoboye gukora.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ikintu cyiza ndagikunda cyane, kubera ko biradufasha cyane muri iyi sociyete yacu, kubera ko bituma abantu biporomotinga kandi bakazamuka cyane mu mikorere yabo, kandi ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza cyane, bifasha kandi n'abana gukura neza mu mikurire yabo.

Isombe ni imboga nziza ndazikunda cyane, kubera ko ziradufasha cyane, nk'abantu badakunda kurya imitsima, kawunga, imiceri n'ibindi. Kubera ko idufasha kubirya, bikamirika neza, n'ukuntu ibi iri guhumura, iryoshye, biradufasha cyane.

Ubuhinzi bw'ibitunguru ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko igitunguru kigira akamaro kenshi gatandukanye mu biryo nko guhumuza ibiryo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kuko igitunguru kivura n'ingorane nyinshi zigiye zitandukanye nk'umutima, kudasinzira neza, ibyo byose kirabivura ariyo mpamvu tugomba kubibungabunga, tukanabyitaho.

Ingano ni ikiribwa cyiza ndagikunda cyane, kuko cyiradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gikorwarwamo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'amandazi, imigati, imbada n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw’amasaka ni ubuhinzi bwiza. Ndabukunda cyane kubera ko buradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bugira ibara ry’icyatsi iyo butari bwera, bwamara kwera bukagira ibara ry’umutuku. Ni ubuhinzi bwiza cyane, bwungura abantu iyo babukoze neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndabukunda cyane, kubera ko butuma imbuto ziyongera ku isoko, kandi n'abahinzi bakabona ibyo guhinga. Biradufasha cyane kuko tubona ibiribwa byiza, kandi bigezweho bifite ubuziranenge, bizadufasha kandi no gutuma abandi bantu babimenya bakigiraho ukuntu bahinga neza, ibijyanye n'ubuhinzi bw'imbuto.

Ibishyimbo ni byiza cyane ndabikunda cyane kubera ko bigira amoko menshi atandukanye hari iby'umukara, iby'umutuku, iby'ubururu n'ibindi byinshi bigiye bifite amabara avanze kubera ko tubyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ubuhinzi bwiza cyane ndabukunda, kubera ko muri iki gihe buradufasha cyane. Abahinzi b'ibishyimbo nibo bahinzi babona inyungu nyinshi, kubera ko ibishyimbo birahenda cyane, kubera ko abantu benshi batagihinga ibishyimbo, niyo mpamvu byiyongereye bisaba abantu benshi kugura amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'amasaka ni bwiza ndabukunda cyane, kuko kubera ko buradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ,kubera ko aho dukura ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye, nkuko bayabeteshamo amafu y'igikoma, igikoma kikaza gisa neza kandi kiryoshe kiri no guhumura ,gifite akamaro kenshi mu mubiri ,ni byiza biradufasha cyane.

Ibishimbo n'ikiribwa cyiza ndagikunda cyane kubera ko kivura indwara nyinshi zidasanzwe mu buzima bwacu. Ibishimbu biradufashaga cyane cyane kugira ngo tubone indisho zo kurisha ibiryo nka kawunga, umuceri, ibirayi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dukoresha kugira ngo turye ibishyimbo. Ibishyimbo biradufasha cyane mu buzima bwacu.

Ubuhinzi bw'ingano ni bwiza ndabukunda cyane kuko budufasha mu mirimo yacu ya buri munsi n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kuko butuma abantu benshi babona akazi kuko hakorwa ibikorwa byinshi bivuye mu ngano nk'amandazi, imigati, imbada n'ibindi byinshi bitandukanye biva mu buhinzi bw'ingano.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza, ndabukunda cyane, kubera ko bidufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Kubera ko ariho dukura ibiryo byinshi bigiye bitandukanye, nka kawunga, kubiryamo impungure ku mashuri, n’ibindi byinshi bitandukanye. Twifashisha ibigori, kugira dukomeze gusunika ubuzima.

Ubuhinzi bw'ingano ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko ingano zifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwacu, kuko ari zo bakoramo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye, nk'amandazi, imigati, capati n'ibindi byinshi bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni bwiza ndabukunda cyane, ariko buravuna cyane, kuko kubugira ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, nko gushingirira, guhura, ni byinshi cyane kuko buragora, ariyo mpamvu abantu benshi bagomba kujya abarakora ubuhinzi bw'ibishyimbo, kuko bukenera imbaraga nyinshi cyane, kugirango burangire.

Ubuhinzi bw'ibigori ndabukunda cyane kubera ko ari bwo buvagamo bimwe mu biribwa dukenera cyane nkamafu y'igikoma, aya kawunga n'ibindi bintu dukenera mu buzima bwacu, bidufasha kugira ngo ubuzima bukomeze kwisunika.

Ubuhinzi ni bwizakora kuba bugirariye akamaro kenshi kagiye gatandukanye kuberako dukura imbuto nyinshi zo kugenda tuyatera mu mirima yacu, ni byiza ndabikunda cyane, abantu bagomo bagomba kuja warubahiriza ibijanye n'ubuhinzi, kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukomeze kubona amafunguro yo kurya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dukura mu bijyanye n'ubuhinzi.

Ubworozi bw ingurube ni byiza cyane, kubera ko buteza imbere uwakoze ubwo bworozi. Ni ubworozi bwunguka, bwungura cyane, kandi bigatuma uwabukoze yiteza imbere cyane, kubera ko ubworozi bw'ingurube, ingurube ibwabura ibyana byinshi bigufasha kujyana mu masoko ukiteza imbere.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bwiza cyane, kubera ko bidufasha kugabanya igihombo aborozi bagiraga, iyo wabaga amatungo yabo yarwaye agapfa, kubera kubura abaganga bayavura, ariko ubu ubuvuzi bw'amatungo buri hafi mu makaritsiye ni byiza cyane, kubera ko umusaruro w'aborozi ugenda wiyongera umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'inka ni bwiza cyane. Kubera ko inka igira akamaro kenshi kagiye gatandukanye. Kubera ko iduha ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye nk'amata, inyama n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Korora inka si igihombo, ahubwo ni inyungu y'igihe kirekire.

Ubworozi bw'inka n'ubworozi bwiza ndabukunda cyane, kubera ko burafasha cyane, muri iki gihe iyo ufite ubworozi bw'inka uba wizeye amata kandi wizeye n'inyama kandi ukabibonera igihe, kandi bifasha kurinda indwara ku bana bawe bakiri bato bigatuma bakora neza aba bafite ubuzima bwiza.

Ubwozi bw'inkoko ni bwiza ndabukunda cyane, kubera ko bugira umusaruro mwinshi ku gihugu cyacu, kandi ugira intungamubiri ku bantu bakiri batoya, n'abantu bakuru, kubera ko iyo wafashe igi rimwe ku munsi, bituma umubiri wawe ugira imbaraga, kandi ukazakomeza gukora neza.

Ubwororozi bw' ingurube ni bwiza ndabukunda cyane kuberako burafasha cyane ku muntu ushaka kugira inyungu. Aborozi borora ingurube bahora barashima kuko ingurube zirunguka cyane, bibafasha kandi no kubona ifumbire, n'inyama bagashyira ku masoko bakunguka cyane amafaranga, bigafasha n'igihugu gutera imbere.

Ingurube ni itungo ryiza ndarikunda cyane, kubera ko rigira akamaro kenshi kagiye gatandukanye, riduha inyama, kandi rigira umusaruro munini cyane, kubera ko wakunguka mu gihe gitoya, kandi ukagira amafaranga menshi muri icyo gihe, kubera ko ari itungo ribwagura ibibwana byinshi, ugahita wongera umusaruro mu gihe gitoya cyane.

Inyamaswa zo mu ishyamba, ndazikunda cyane. Cyane cyane nk’ingurube y’umukara ahantu hose, izikwiruka, ndayikunda, kuko zigira akamaro kenshi gakomeye. Zikurura ba mukerarugendo, kandi zigira n’inyama iryoshye, wenda nk’iyo wayibaze, kubera ko zinjiza amadovize menshi akomeye mu Rwanda, igihugu cyacu kigakomeza kigatera imbere.

Inyamaswa zo mu ishyamba ndazikunda cyane. Iyo uri kubona imwe iri kwita ku yindi, kandi bidufasha no gukurura ba mukerarugendo, bazana amadovize mu Rwanda, bigatuma igihugu cyacu gitera imbere kurushaho.

Ikigona ni cyiza ndagikunda cyane, cyane cyane ukuntu kigira amabara meza, asa n'ay'ikipe mfana, umweru n'umukara, nibyiza ndagikunda cyane, ukuntu kiba kiri kuguruka mu kirere, kandi gisa neza, kubera amabara yacyo aba ari kubengerana.

Inyoni ni nziza ndazikunda cyane, bitewe n'uko zigira ubwoko bwiza, zikagira n'amabara meza. Hari izigira amabara y'umweru, ay'umutuku, ay'umukara, umweru n'andi menshi agiye atandukanye, azifasha mu bwiza bwazo. Zigasigara ziri gusa neza.

Utunyoni two mu ishyamba, ni twiza cyane. Iyo tuguruka, tugaragara mu kirere, utubona ari twiza cyane, iyo tujya gushakisha ibyo kurya, turi gushakira utuwana twato duto, ubona ari byiza cyane, bikagutera kwishima cyane.

Inyamaswa zo mu ishyamba, ndazikunda cyane. Kubera ko ni inyamaswa nziza zikurura ba mukerarugendo, kandi zidufasha mu iterambere ry'Igihugu ryihuta vuba vuba. kandi bidufasha kandi no kwishima iyo turi kuzibona ukuntu ziri gukina. Kandi zifashaga n'abana bacu kwiga bishimye baraba bazi ko Igihugu gifite iterambere ryiza.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni nziza ndazikunda cyane, cyane cyane nk'inyoni, imiterere yayo, n'ukuntu iba ifite amabara meza nk'umukara, umweru, ni byiza ndabikunda cyane n'akanwa kaba gasosogotoye n'umurizo muremure ni byiza ndabikunda cyane.

Utunyoni ndadukunda cyane. Bitewe n'ukuntu twitwara mu kirere, iyo turi kuguruka, tugaragara mu kirere, dutoragura, kandi duteye amabengeza. N'amababa yatwo meza cyane, aba atabagira mu kirere, ndadukunda cyane.

Inyoni ni nziza ndazikunda cyane bitewe n' amabara menshi zigenda zigira, nk' izifite amabara y' umuhondo, umukara n' amaso y' umukara mato mato cyane, zifite umunwa usongosoye ujya hejuru, ndazikunda cyane uko nzibonye ziranshimisha mu buzima bwanjye.

Inyamaswa zo mushyamba ni nziza ndazikunda cyane, cyane cyane ukuntu ziba zifite amabara meza, nk'umukara, umuhondo n'umweru n'akiso k mukara gatoya, n'utuguru duto cyane, nibyiza ndabikunda cyane, ukuntu inyoni iba iteye, n'imimerere yayo.